Aha nahantu habereye ihuriro ry'abaganga, bari kwiga bari guhabwa ubundi bumenyi bari guhabwa amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima. Aho bicaye bari imbere bate umuntu ubari imbere uri kubaganiriza bu bari bicaye bateze amatwi ikiganiro harimo bambaye imipira y yicyatsi yambaye imipira y'myeru.

Aba ni abana batoya biga mu ishuri ry'inshuke aho bari koza amenyo bari kwita ku buzima bwabo bwo mu kanwa. Aba bana bari gukaraba bakoresheje umuti w'amenyo ndetse n'uburuso n'amazi kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza burinde amenyo yabo kwangirika.

Hano hari inyubako ya pharmacy, pharmacy yitwa progress. Pharmacy ni mu iduka cyangwa se inzu icuruza imiti imeze nk'ibitaro, yita ku buzima bw'abantu ariko noneho hano akenshi baba bakoresha ubuvuzi. Abantu aho bivuza bakiyishyurira cyangwa se bakagura imiti bitewe n'inyandiko bahawe n'abaganga zibemerera kugura iyo miti, iyingiyi rero ni pharmacy icuruza imiti yo yita ku buzima bw'abantu.

Iki ni ikimera cyitwa igikakarubamba cyifashishwa mu gukorwamo imiti igiye itandukanye iyo miti ikaba ivura indwara zirimo indwara zo kuruhu ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.